Umugabo muremure w'umuhinzi, ahagaze mu bihingwa binyuranye, bihinze ku murongo, arimo aragenda abivomerera, akoresheje ipombo ndetse n'umupira wabugenewe.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare, agapfukamunwa, ipantaro y'ikigina arimo aravomera ibihingwa yifashishije ipombo ndetse n'umupira wabugenewe.

Imiti ikoreshwa mu buhinzi, yose ibitse mu ducupa twa pulasitiki ndetse n'amasashi. Bibitse bigerekeranye kandi byose bifite amabara atandukanye.

Umugabo w'umuhinzi, wambaye igisarubeti cy'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umukara, ari gutera umuti ibigori, yifashishije ipombo yabugenewe.

Umugabo wambaye umupira w'umweru nipantaro y'umukara, ahagaze mu murima urimo ibihingwa biteye ku murongo arimo arabivomera akoresheje ipombo, hirya ye hari undi murima uhinzemo amashu.

Abahinzi babiri bari kugenda mu murima, uhinzemo ibimera bimeze nk'ingano cyangwa umuceri, bagenda babitera umuti, bifashishije amapombo yabugenewe.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi utukura, ahagaze mu murima uteyemo amashu n'ibindi bihingwa arimo arabivomera. Akoresheje ipombo ndetse n'umupira wabugenewe.

Umukobwa ari gukura amahwa ku nyama y'ifi. Afite imisatsi yafungiye inyuma, inzara ze yazisize andi mabara, arimo umukara ndetse n'idoma.

Ibiganza bifashe ibiryo byo kugaburira amafi yororewe mu byuzi byayo, bari kubisuka mu gikoresho gifasha mu kuroba ari cyo kitwa urushundura.

Ikidendezi cy'amazi kimeze nk'icyuzi bororeramo amafi, iruhande rwacyo hari ibyatsi bitandukanye ndetse n'insina.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, afite mu ntoki ze amafi menshi cyane amaze kuroba mu cyuzi cy'amafi kimuri inyuma. Inyuma y'icyuzi hateye ubwatsi bwinshi burebure.

Umugabo ari kuroba amafi mu cyuzi cyayo akoresheje urushundura, hirya ye icyuzi gitangiriwe n'isima bubatse.

Icyuzi cy'amafi kizengurutswe n'imigina iteyeho ubwatsi, hirya yacyo hateye ishyamba rigizwe n'ibiti birebire cyane.

Inyandiko igaragaza ubwoko bw'ibyuzi byororerwamo amafi, ifite amabara atatu ari yo: icyatsi, umuhondo n'umweru. Hirya yayo hari ibyuzi by'amafi.

Abantu babiri barimo umugabo n'umugore, barimo barakurura urushundura rurimo amafi bamaze kuroba mu cyuzi cyayo. Hirya yabo hari abandi nabo bari kuroba.

Ibyuzi byororerwamo amafi birimo ibintu by'ubururu amafi ariramo, imbere yabyo hari ubutaka buteyeho ibyatsi, hirya yabwo hari ubutaka buteyeho ibyatsi byumye.

Umugabo wambaye: ingofero, ishati y'ubururu, indorerwamo zifasha amaso, afashe mu ntoki amafi ye, amaze kuroba mu cyuzi cyayo kimuri inyuma.

Ibyuzi byororerwamo amafi, byegeranye n'umusozi uteyeho ishyamba ndetse n'ibindi byatsi byinshi. Iruhande rwabyo hari akayira k'abanyamaguru, gakozwe n'umuhanda w'igitaka.

Umugabo wambaye agasengeri k'amabara menshi, afashe mu ntoki urushundura rwuzuyemo amafi menshi, amaze kuroba mu cyuzi cyayo kimuri inyuma.

Abagabo bane bari mu mazi bafite ikintu kimeze nk'urushundura bakoresha baroba, hirya yabo hari umugina uteyeho ibyatsi by'amoko anyuranye.

Umugore yicaye mu bwato buri hagati mu mazi ari kugenda agashya kugira ngo abashe kugenda, yambaye agasengeri k'umukara, ingofero y'ubururu n'igitenge kirimo amabara atukura.

Icyuzi kinini cy'amafi, kizengurutswe n'ubutaka, buteyeho ibyatsi bigufi, hirya inyuma yacyo hari ibyatsi birebire cyane.

Umugabo w'umurobyi ahagaze mu cyuzi cy'amafi afashe ifi n'intoki ze akoresheje akaboko k'iburyo, inyuma ye amazi afite ibara ry'icyatsi bitewe n'uko ashobora kuba yashyizwemo ibiryo by'amafi.

Abarobyi babiri umugabo n'umugore bavuye kuroba mu cyuzi cy'amafi, bazanye ibisashe binini birimo amafi menshi bavuye kuroba.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, arimo aragaburira amafi yororeye mu cyuzi. Ku ruhande rw'icyuzi, hari akazu gatoya umugabo abamo.

Abagabo babiri bambaye ingofero n'imipira yiganjemo ibara ry'umukara, bafite inshundura bifashisha mu kuroba amafi, bayakura mu byuzi byayo.

Umugabo w'igikara, wambaye agapfukamunwa, ahagaze mu cyuzi cy'amafi, afite igisashe kinini cyuzuyemo amazi ndetse n'amafi menshi avuye kuroba.

Abagabo batatu bari kuroba bifashishije ubwato ndetse n'urushundura runini cyane, umwe muri bo yambaye umupira utukura, undi yambaye ishati y'amaboko maremare.

Umugabo ahagaze hejuru y'ibyuzi by'amafi arimo arayagaburira. Afite ibiribwa agiye kugaburira amafi mu ntoki ze, yambaye ishati y'umweru ndetse arasutamye.

Ibyuzi byororerwamo amafi birenga bine bigiye bifite ubwatsi buteye hagati yabyo, ku mpande zabyo hateye ubundi bwoko bw'ibimera bishobora kuba ari imigwegwe.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, barimo baravoma amazi mu cyuzi cyororerwamo amafi. Umwe yambaye umupira w'ubururu, abandi bambaye ibisarubeti bya kaki.

Ubutaka bunini buhinzeho ibihingwa binyuranye byiganjemo umuceri, hirya yabwo hari ishyamba ndetse n'imisozi miremire ariko bidakabije.

Umugabo w'umuhinzi yikoreye igifuka kinini gishobora kuba kirimo ifumbire, ari kunyura hagati y'ibihingwa biteye ku mirongo igororotse.

Igitebo kinini kirimo ibitumbwe byeze neza by'ikawa, hejuru yacyo ndetse no kumpande zacyo hari ibibabi bibisi by'ikawa.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, barimo barasarura icyayi. Bahetse ibitebo bashyiramo icyayi bamaze gusarura. Bamwe muri bo bambaye ingofero zitukura, abandi nta ngofero bambaye.

Ishami ry'igiti cy'ikawa ririho ikawa zikiri ibitumbwe zitarera neza. Rifite amababi y'icyatsi ndetse n'amwe yatangiye kuma agahindura ibara.

Abantu bane barimo umugabo umwe ndetse n'abagore batatu bari kubagara umuceri mu gishanga, inyuma yabo hari umusozi uteyeho ishyamba.

Umugore arunamye ari kubagara umurima w'umuceri urimo amazi ahagije, iruhande rw'umurima we hari indi mirima irimo umuceri mwinshi.

Umugore ahagaze mu murima w'ikawa arimo arasarura ikawa zikiri ibitumbwe, yambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'ishati ikoze mu gitenge gifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye rinete, ingofero y'urugara ndetse n'ijiri itukura, ahagaze mu murima w'ikawa, yakoze ku bitumbwe bitarera neza.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, barimo barasarura icyayi. Bose bahetse ibitebo mu migongo, bashyiramo icyayi bamaze gusarura.

Igiti k'ikawa kiriho ibitumbwe byinshi biteze gifite amababi akiri mazima y'icyatsi kibisi ndetse n'andi yatangiye kuma agahindura ibara.

Umugabo w'umuhinzi, wambaye ishati y'umweru, ahagaze mu murima w'ikawa, inyuma ye hahagaze abandi bagabo babiri bambaye imipira y'umukara y'amaboko magufi.

Umuhinzi w'ikawa arimo arasarura ikawa ze zeze neza, imbere ye ahetse igitebo agenda ashyiramo ikawa amaze gusarura.

Imirima minini cyane ihinzeho icyayi, ku mpande zayo hari ibiti by'amoko anyuranye, ikindi kandi ikikijwe n'imisozi itagaragara neza ibiyihinzeho.

Abantu benshi barimo barasarura icyayi, mu mugongo wabo harimo ibitebo bashyiramo icyayi bamaze gusarura. Umugore uri imbere yabo akenyeye isashe, yambaye n'umupira ukoze mu budodo.

Abagore benshi barunamye bari gutora ibishishwa babikura mu ikawa baseye, buri wese afite icyo ari gutoreraho ibishishwa bye.

Umugore urimo asoroma icyayi, yambaye umupira utukura, igitambaro cy'idoma ndetse afite igitebo inyuma ye, agenda ashyiramo icyayi amaze gusoroma.

Umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe, wambaye umupira w'amaboko magufi, ahagaze mu murima uhinzemo ibintu bimeze nk'amasaka, inyuma ye hari umusore wambaye umupira w'umukara.

Udukarito turimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, turunze ahantu hamwe tumwe dufite ibara ry'ubururu, utundi dufite iry'idoma ndetse n'umweru.

Imiti y'amatungo, iri mu mumacupa maremare afite imipfundikizo y'umweru kandi yometseho icyapa kivuga uko ikora, gifite amabara y'umutuku, ubururu n'icyatsi.

Imiti y'amatungo ifungiye mu bicupa bya palasitike ibitse mu kabati igerekeranyije. Iyo miti ifite ibyapa bigaragaza uko ikoreshwa bifite amabara y'umuhondo ay'ubururu ndetse n'ay'umweru.

Imiti y'inyamaswa ifungiye mu tujerekani turi mu kabati kandi tugerekeranye. Utwo tujerekani twose ni umweru kandi dufite imipfundikizo y'icyatsi kibisi.

Imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo yiganjemo inka, ifungiye mu masashe y'amabara atandukanye arimo umuhondo, umweru, umutuku ndetse n'andi.

Imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo iteretse ahantu igerekeranye inyinshi muri yo ifite amabara y'umweru indi ikagira icyatsi ndetse n'idoma.

Imiti y'amatungo ifungiye mu macupa ndetse no mu bikarito bifite amabara anyuranye. Muri iyo miti harimo ivura kubyimba ndetse no guhitwa ndetse n'iyica udukoko dutoya nk'imibu.

Amacupa anyuranye arimo imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo, agacupa ka mbere gafite ibara ry'umweru kandi ni karekare, ay'inyuma nayo harimo afite ibara ry'umweru n'andi macupa afite ibara ry'ubururu.

Imiti itandukanye y'amatungo, ifunze mu masashe, iteretse mu kabati iragerekeranye kandi ifite amabara atandukanye arimo: icyatsi, ubururu ndetse n'umutuku.

Amasashe arimo imiti y'inyamaswa cyanecyane iy'inkoko, ayo masashe ari mu mabara atandukanye harimo umweru, umutuku, icyatsi, ndetse n'umukara.

Amacupa y'imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo, amwe afite ibyapa by'umuhondo ku mpande kandi ateretse yegeranye ndetse agerekeranye.

Imiti y'inyamaswa ifunze mu masashe agerekeranye kandi abitse mu kabati, aya masashe afite amabara atandukanye arimo: umweru, ubururu, icyatsi ndetse n'andi.

Imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, ifungiye mu macupa ya purasitiki, afite ibara ry'umweru, ibyapa by'icyatsi bigaragaza uko ikoreshwa ndetse n'imipfundikizo y'icyatsi kibisi.

Imiti ikoreshwa mu kwita ku matungo, ifungiye neza mu masashe, irunze hamwe mu masashe y'amabara atandukanye ariyo; umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ipombo nini iteretse ku ntebe ikoze muri purasitiki kandi inyuma iri mu gakapu gafite ibara ry'ubururu, umupfundikizo wayo na wo ni ubururu.

Umurima munini uhinzemo imboga z'ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, ku ruhande rumwe hateretse igipipa cy'ubururu kandi hagati y'ibihingwa harimo inzira zinyuramo amazi.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umweru w'amaboko maremare ndetse n'uturindantoki tw'umukara, arimo aratera igiti. lmbere ye hahagaze undi muntu uri kumufasha.

Umuhinzi w'ibigori afite intete nyinshi cyane z'ibigori mu biganza bye. Inyuma ye naho hanitse ibindi bigori byinshi cyane.

Inka nyinshi za kijyambere zose zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru kandi zose zambaye amaherena y'umuhondo.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bari kugenda mu murima munini hagati mu muyoboro w'amazi. Imbere yabo hari umugore, ufite isuka wayishyize ku rutugu.

Umurima munini uhinzemo ibiti birebire ndetse n'ibindi bihingwa bimeze nk'icyayi kikiri gitoya. Bihinze byegeranye usibye ibiti birebire nibyo bitandukanye.

Umugore w'igikara ahagaze mu murima w'ibigori arimo aragenda arandura ibyatsi byamezemo, yambaye ijipo ndende y'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'amabara menshi n'ipantaro y'umweru, arimo arasunika igare, yashyizeho ibyatsi byinshi, akarisunikira mu murima na wo uteyemo ibyatsi birebire.

Inka enye, ziri mu kiraro, ziri kurya ibyatsi, zikabirira mu buriro bwazo bwabugenewe, zose zifite amabara y'umukara n'umweru, iruhande rwazo hahagaze umushumba wazo.

Inka nyinshi ziri mu rwuri hamwe n'abashumba bazo, izo nka zifite amabara y'umukara n'ay'umweru, hirya yazo hari udusozi tugufiya, duhinzeho ibyatsi n'ibindi bimera by'amoko anyuranye.

Inka nyinshi ziri kurisha mu rwuri ziganjemo iz'ibara ry'umukara ndetse n'umweru, ziri kurisha mu mbuga nini irimo ubwatsi bwinshi kandi butoshye.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'ubururu, asutamye imbere y'inka, imbere ye hateretse ibase, arimo akamiramo iyo nka. Iyo nka ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Umugabo wambaye bote, arasutamye ari gutera ikimera, iruhande rwe hari ibindi bimera byinshi bisa n'icyo ngicyo ari gutera, yambaye ipantaro y'ikoboyi, isaha ndetse n'impeta.

Umugabo n'umugore, bombi b'abahinzi, barahagaze, bafite amasuka ku rutugu, bavuye guhinga. Inyuma yabo hateye insina ndetse n'ikigori.

Abahinzi babiri b'abagore, bari gutembera mu murima uhinzemo ingano. Umwe muri abo bagore afite umuhoro, undi akagira icupa ry'amazi mu ntoki. Hirya yabo hari ibiti bibiri binini.

Umugore wasetse cyane ateruye igihaza ahagaze mu murima urimo ibimera binyuranye ndetse n'abandi bantu benshi barimo umugabo wambaye umupira w'ubururu n'undi wambaye umupira utukura.

Abantu barimo: abagabo, abagore ndetse n'umwana, bahagaze mu murima, bari guhinga. Iruhande rwabo bakikijwe n'imiyenzi ndetse n'ibindi byatsi. Hirya yabo hari ishyamba.

Umugabo ubyibushye w'igikara wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu afite agasashe karimo itaka n'urugemwe rw'ikimera ahagaze mumuma munini cyane urimo n'ibindi bimera.

Itsinda ry'abantu benshi ryahuriye mu gikorwa cyo gutera ibimera bitandukanye, bishobora kuba ari ibiti cyangwa se ibindi bimera. Barasa n'abantu bari mu muganda.

Umugore arunamye afite umuhoro mu kaboko k'iburyo, akandi gafashe umutumba amaze gutema. Inyuma ye hateye ibigori byatangiye kuma bisa n'ibyasaruwe.

Umwana mutoya, ahagaze mu byatsi byinshi, bisa n'urubingo, inyuma ye hari hateye ibigori, afite bimwe muri ibyo byatsi yahiye mu kaboko kamwe, akandi gafashe igikoresho kimeze nk'umuhoro.

Abantu benshi, barimo abagabo n'abagore ndetse n'uwambaye iniforume ya porisi, barimo baratera ibiti, mu gikorwa cy'umuganda.

Inka nyinshi z'Inyambo zirahagaze imbere y'ikiraro cyazo, izonsa muri zo inyana ziri kuzonka, iruhande rwazo hahagaze umushumba wazo.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi y'umukara ndetse n'isaha, arimo aratera igiti cya Gereveriya, azengurutswe n'ibindi bimera birimo ibigori ndetse n'ibindi birandaranda.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bahagaze mu mbuga nini, irimo inyamaswa ziganjemo ihene, zisa n'izaje kugurishwa.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, ishati y'amaboko magufi y'amabara menshi, ipantaro ya kaki, ndetse na bote arimo aratera ibigori mu murima uhinzemo ibindi bigori.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi arimo aratera avoka akayisasiriza ibyatsi byumye, yambaye kandi ipantaro y'umukara iruhande rwe hari undi muntu uri kumufasha.

Umugabo w'umuhinzi, yicaye ku mashini imufasha guhinga, yambaye ingofero itukura, iruhande rwe hari ibyatsi byinshi ariko bitari birebire.

Abantu batatu barimo umugabo umwe ndetse n'abagore babiri, bahagaze ku butaka bunini burimo ifumbire nyinshi, yavuye ku biti bibuteyemo.

Imbuga nini ihinzemo ibyatsi ndetse n'ibindi bimera bimeze nk'umuceri. Hirya yayo hari ishyamba rinini rigizwe n'ibiti bifite amababi menshi cyane.

Imbuga nini cyane igizwe n'ubutaka butagize ikiburuho bukurikiwe n'ubutaka buhinzeho ibyatsi bukurikiwe n'ubutaka bw'umukara bukurikiwe n'ubutaka buhinzeho ibiti ndetse n'ibindi bimera inyuma yabyo hari imisozi itagaragara neza.

Umugabo muremure, ari kugenda mu muhanda, urimo n'abandi bantu benshi. Iruhande rwe hateye ibiti byinshi ndetse insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, ziri kubanyura hejuru.

Igiti kinini cyane cy'ikawa kitariho ibitumbwe gifite amashami ndetse n'amababi byinshi, giteye mu mbuga yumagaye kandi nta saso ikiri iruhande.

Urusenda rwinshi rurunze hamwe ariko rutarasarurwa. Urusenda ruratukura naho ibibabi by'ibiti urusenda rweraho ni icyatsi kibisi. Aho urusenda ruteye harunze gisaso yenda kuba umweru.

Ububiko, bw'ibiribwa, birimo ibitunguru, imiteja, imbuto, imboga ndetse n'imbuto za pome.

Ubutaka buhinzeho ibijumba bifite imigozi ifite amababi manini kandi atandukanye. Buri mugozi ugiye uhinze ukwawo, utandukanye n'undi.

Ibigori bikiri bitoya ndetse n'ibishyimbo bikimera byose bihinze mu muririma, iruhande rwabyo nta byatsi bihari, bisa naho ari umurima uhinzwe vuba.

Ubutaka bunini buhinzeho ibyatsi ndetse n'ibindi bimera byinshi. Burimo kandi ipoto ishamitseho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ibigori byeze neza ndetse bitonoye bitagifite ibishishwa byose byabaye umuhondo kubera izuba. Inyuma yabyo hateye ibindi bigori bitarera neza.

Ibiribwa byatunganyijwe bifunze mu bikombe by'ibyuma biteretse bigerekeranije n'ibindi bifunze mu masashe y'amabara atandukanye arimo: ubururu, umukara ndetse n'andi.

Umurima munini cyane uhinzemo ibihingwa bishobora kuba ari ingano cyangwa umuceri kandi bisa n'ibyumye, hagati mu murima hashizemo uduti turiho amadarapo y'umukara ndetse n'ay'umweru.

Umurima munini uhinzemo ibigori bikiri bitoya hamwe n'ibindi byatsi by'amoko anyuranye, inyuma y'aho kure hari imisozi miremire.

Imboga nyinshi ziteye hamwe zegeranye n'ibiti by'imyumbati ndetse n'ibindi byatsi binyuranye, inyuma yabyo bizengurutswe n'urugo rwubakishije amatafari.

Insina eshatu zifite ibirere byinshi, imwe muri zo ifite n'igitoki, inyuma y'izo nsina hari inzu ebyiri, imwe ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'ubururu.

Ubutaka bunini buhinzeho ibihingwa bitandukanye, bihinze bitandukanye, hirya yabwo hari ibiti birebire, bifite amashami manini kandi arandaranda.

Imifuka minini cyane yuzuyemo ibijumba bibisi, irunze ari myinshi, ifite amabara atandukanye, harimo ay'umweru ndetse n'ubururu.

Umurima munini uhinzemo imyumbati myinshi yose iteye kumurongo ugororotse, hagati y'iyo myumbati nta byatsi birimo bisa n'aho byaranduwe.

Umurima munini uhinzemo ibiribwa bitandukanye, birimo imboga, ibiti birandaranda ndetse n'ibindi, ubutaka bunini ntibugaragara buriho ibyatsi.

Umugore, abana batoya ndetse n'abandi bantu benshi, bari kugenda mu muhanda w'igitaka, imbere yabo hari umurima w'amasaka, naho inyuma yabo hari urutoki.

Umuntu wambaye umupira w'idoma ndetse n'ijipo y'ubururu, ibiganza bye byambaye uturindantoki, biteruye ibirayi bigera kuri bitandatu.

Ubutaka bunini, buhinzeho ibihingwa bitandukanye, birimo iby'amababi manini arandaranda by'icyatsi, bigira imbuto ndende cyane z'icyatsi kibisi na zo.

Umurima uhinzemo imboga z'ibyatsi zikunze kwitwa mashara mu rurimi rw'ikinyarwanda ,zihinze zegeranye ku buryo utabasha kubona ubutaka urebeye hejuru.

Umurima uhinzemo ibimera bitandukanye, birimo ibyatsi ndetse n'igiti cya avoka kikiri gitoya, iruhande rw'igiti harunze ibyatsi byumye bahashyize ngo bibe ifumbire.

Umurima munini wumagaye uhinzemo imigozi, ibyatsi ndetse n'ibindi bimera by'amoko anyuranye, iburyo bwawo hari umugina na ho hirya ni imbuga.

Ubutaka buhinzeho imboga za dodo, zimaze igihe ku buryo zarabije. Inyuma yazo hubatse uruzitiro, rwubakishijwe amatafari ahiye.

Imbuga nini cyane iteyeho ibyatsi kandi irimo amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi, imwe muri ayo mapoto ikozwe mu cyuma iyikurikiye ni igiti.

Ibiryo byiganjemo ibyakorewe mu nganda, bifunze mu bikombe by'ibyuma, bigerekeranye n'ibindi bikoresho birimo umuti w'amenyo, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi.

Imboga z'ibyatsi, zihinze zegeranye kandi mu murima munini. Hirya yazo hari igiti ndetse n'ibindi bimera bifite amababi menshi kandi arandaranda.

Umurima munini uteyemo igiti cy'umyumbati ndetse n'ibyatsi by'amoko anyuranye, iruhande rw'igiti cy'imyumbati harunze igitaka ndetse n'ibinonko nk'aho bashakaga kuwurandura.

Ubutaka buteyeho ishyamba rinini cyane, bunyuramo umuhanda wa kaburimbo, bushinzeho amapoto, ashamitseho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Ubutaka bunini buteyeho ibyatsi ndetse n'ishyamba rinini cyane, rigizwe n'ibiti birebire kandi bifite amashami maremare arandaranda, imbere yaryo hari ubutaka butagize ikibuteyeho.

Ikigo kinini kirimo ubusitani bugizwe n'indabo ndetse n'ibiti birebire, ibifite amababi magufi ndetse n'amaremare. Gifite kandi ihema ryubatse muri ubwo busitani.

Abagabo babiri bari kwiruka mu ishyamba rigizwe n'ibiti bikeya birebire ndetse n'ibyatsi by'amoko anyuranye, iruhande rwabo hari ibibuye binini bimeze nk'ibisate by'urutare.

Ubutaka bunini buteyeho ishyamba rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufiya. Ubwo butaka kandi buteyeho ibyatsi by'amoko atandukanye.

Ubutaka bunini buhinzeho ishyamba ndetse n'ibindi bihingwa by'amoko anyuranye, hirya yaryo hari inyubako zituwemo n'abantu ndetse n'ibindi biti.

Ishyamba rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibigufiya, hagati y'ibyo biti ibyatsi ntabirimo bishobora kuba byarumagaye kubera izuba rikabije.

Ubutaka bunini, buhinzeho ibimera bitandukanye, birimo ishyamba ritoya ndetse n'ibyatsi by'amoko atandukanye ndetse n'ibindi biti byo mu bwoko bwa gereveriya.

lshyamba rinini rya kimeza rigizwe n'ibiti binini bifite amashami menshi, bipfutse ku buryo uri munsi yaryo utabona urumuri. Inyuma yaryo hateye ibyatsi by'amoko anyuranye.

Ibiti binini cyane bifite imizi minini ifite urubobi, byegeranye n'ibindi bitoya byose hamwe bikoze ishyamba kimeza.

Ishyamba kimeza rinini cyane rigizwe n'ibiti byinshi cyane byegeranye kandi birebire ryambukiranya umusozi rikagera ku wundi, hagiye harimo ibiti by'amoko atandukanye.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti birebire, hagati muri ryo hubatsemo utuzu dutoya abantu bacumbikamo iyo barijemo, hagati muri ryo kandi hahagaze umugore ufite agakapu gatukura.

Ubutaka bunini, buteyeho ishyamba rigizwe n'ibiti bikeya, birebire ndetse n'ibindi bigufi, hamwe n'ibyatsi bikeya ndetse n'imbuga.

Ubutaka bunini bugizwe n'umusozi uteyeho ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi ariko bigufiya ndetse n'ibindi byatsi by'amoko anyuranye.

Umusozi muremure uteyeho ishyamba ryinshi kandi rinini, rifite amashami akwiriye ku mpande, rimeze nk'ishyamba rya kimeza. Hasi yawo hubatse utuzu dutoya, dufite ibyatsi bitoya biteye imbere yatwo.

Ubutaka bunini, buhinzeho ishyamba, rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi bigufiya by'amoko anyuranye. Hirya yabyo hari imisozi miremire, itagaragara neza.

Ishyamba rinini ririmo ibiti by'amoko anyuranye harimo ibirebire ndetse n'ibigufi, inyuma hari imisozi miremire, itagaragaza neza ibihingwa biyiriho.

Ishyamba rinini rya kimeza, rigizwe n'ibiti binini cyane birebire kandi bifite amababi yakwiriye impande n'impande, hejuru yabyo hari ibihu.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti ndetse n'ibimera by'amoko atandukanye. Hagati mu ishyamba harimo inzira y'abanyamaguru, ishobora kuba ari ikiraro cyangwa iteme risanzwe.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti bidakabije kuba birebire cyane ndetse n'ibyatsi birimo ibyumye ndetse n'ibibisi.

Ishyamba kimeza rigizwe n'ibiti birebire cyane bifite amababi akwira impande n'impande ku buryo uri munsi yabyo urumuri rutakugeraho neza.

Ishyamba rinini rigizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi by'amoko anyuranye, rinyuramo umugezi hagati muri ryo, ufite umuvumba ukabije.

Ubutaka bunini buhinzeho ibimera byinshi bibisi ariko bivanze n'ibindi byumye, ku mpande zabwo hari ikidendezi cy'amazi naho hirya yabwo hari ibiti bitoya.

Umurima munini uhinzemo urutoki ndetse n'ibindi bimera by'amoko atandukanye. Hagati harimo igiti kinini ndetse n'uduti twumye dushinze.

Imboga nyinshi zihinze ku butaka bunini bufumbije ifumbire nziza, ifite ibara ry'umukara. Hirya yazo hashinze ibyuma, bifashe isashe ibonerana, isakaye inzu zihinzemo.

Abahinzi benshi bahagaze inyuma y'umugabo uri kubereka uko bita ku bihingwa by'imboga, bamwe muri bo ni abagabo abandi ni abagore.

Umugabo muremure, umeze nk'uwiruka mu murima uteyemo imigwegwe cyangwa igikakarubamba. Yambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse, isogisi ry'icyatsi, hirya ye hari ibiti birebire.

Igiti kinini cyane cy'imyembe, gifite amababi menshi cyane, gihinze mu busitani, cyegeranye n'ikindi giti cy'mwembe ndetse n'ibikoresho bikozwe mu ibumba.

Umugore w'umuhinzi arimo arareba mu cyuma k'ikoranabuhanga ahagaze mu murima we w'imboga, yambaye ijiri yumukara ndetse n'agapira k'amaboko magufi akenyeye igitambaro mu mutwe.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, arimo arasuka inyanya yasaruye mu mufuka yifashishije igitebo. Inyuma ye hari abandi bantu babiri bamufasha.

Imbuto za voka zirunze hamwe mu gikarito cy'umuhondo, naho zo zifite ibara ry'icyatsi kibisi. Hirya yazo hari ibindi bikarito, birimo izindi avoka.

Imbuto n'imboga byinshi birimo indimu, karoti, ipapayi, ndetse n'izindi. Zigiye ziri mu mabara atandukanye ari yo icyatsi kibisi, umutuku, umuhondo, ndetse n'umweru.

Umugore aricaye ateruye inanasi ebyiri mu biganza, yambaye agapfukamunwa, akenyeye igitambaro gifite amabara menshi, inyuma ye hahagaze umugabo ndetse n'akana gato k'agakobwa.

Ibihingwa bihingwa mu nzu birimo amoko runaka y'imboga, imbuto ndetse n'ibindi byose biteye mu nzu yazo, yubakishije ibyuma ndetse n'isashe ibonerana.

Umugore ari mu murima yambaye ingofero y'urugara ndetse n'ishati y'umweru, arunamye arimo arasoroma urusenda rufite ibara ry'umuhondo.

Umugore w'igikara wambaye umwenda urimo amabara y'umweru n'umukara ari kurandura ubutunguru iburyo bwe ndetse n'inyuma ye hateye intoryi, inyuma ye kandi hari inzu isize irangi.

Ibigori byeze neza birunze ari byinshi, kimwe muri byo kirashishuye kandi intete zacyo ziregeranye cyane. Ibindi byinshi muri byo ntabwo bitonoye.

Ikiganza giteruye urubuto rwa pome imbere yacyo hari izindi mbuto nyinshi cyane za pome ziri ku biti byazo.

Umusaza wambaye ishati y'umweru n'igitambaro mu mutwe, asutamye mu murima w'indabo ari kuzitaho. Izo ndabo zifite amabara arimo: umutuku, icyatsi kibisi ndetse n'andi.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu rifite amaboko y'umukara ahagararanye n'abandi bagabo babiri, umwe wambaye ishati n'ingofero n'undi wambaye umupira w'ubururu bari gusarura ikawa mu murima.

Akarima k'igikoni gakoreshejwe shitingi, ibiti, ubutaka burundanyije gahinzemo amashu, ubutunguru, sereri ndetse n'izindi mboga.

Imboga zinyuranye zirunze ahantu hamwe, zifite amabara atandukanye arimo: icyatsi, idoma, ubururu ndetse n'andi menshi. Muri izo mbuto n'imboga harimo: amashu, inyanya, pome ndetse n'izindi.

Akarima k'igikoni, gakozwe muri shitingi y'ubururu ndetse n'ubutaka bwinshi bagiye barunda hagati. Inyuma yako hari uruzitiro, rwubakishije amatafari ndetse n'ibyuma.

Umugabo wambaye umupira utukura, afite igitebo cyuzuye inyanya, rumwe muri zo arufashe mu ntoki. Akaboko ke k'ibumoso ni ko gafashe igitebo.

Igiti kinini cyane cy'ipapayi gifite amababi maremare cyane kandi menshi, gifite kandi ibitumbwe by'amapapayi byinshi cyane kuva hasi kugera hejuru.

Uruvange rw'imbuto zinyuranye, zirunze ahantu hamwe. Muri izo mbuto harimo; inyanya, amacunga, indimu, imboga z'amoko anyuranye, inanasi ndetse n'izindi.

Umugabo muremure wambaye umupira utukura n'ingofero y'urugara ruzengurutse arimo aravomerera ibihingwa akoresheje ipombo yabugenewe.

Ubuhinzi bwa kijyambere bugezweho bwifashisha imipira ivomera ibihingwa, iteye imbere mu murima ikwiza amazi mu mpande zitandukanye z'umurima.

Umusore ahagaze mu murima uhinzemo ibimera binyuranye byiganjemo iby'amababi matoya, insina ndetse n'ibindi. Arimo arabivomera akoresheje umupira wabugenewe.

Umugabo n'umugore bahagaze mu bigori byabo barimo barabivomera. Hirya yabo bakikijwe n'uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye.

Umugabo muremure wambaye umupira w'amaboko magufi w'umukara ndetse na bote ahagaze mu murima ari kuwuvomera akoresheje umupira. Uwo murima uciyemo imiyoboro itwara amazi.

Umugabo muremure wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'ubururu ahagaze mu murima uteyemo ibigori ndetse n'bindi bihingwa arimo arabivomerera yifashishije umupira.

Umugore w'umuhinzi ateruye rozwari ifite ibara ry'icyatsi, arimo aravomera ibihingwa bisa n'intoryi biteye ku mirongo igororotse.

Ubutaka bunini buhinzeho ibigori bihinze ku mirongo igororotse kandi bisiga umwanya hagati yabyo unyuramo amazi, hagati yabwo harimo umupira ufasha mu kubuvomera.

Umurima munini urimo ibyatsi kandi uteyemo ibigori urimo n'imashini ifasha kuvomera, ifite amabara yubururu ndetse n'utuntu tw'umweru twinshi.

Umugabo muremure, wambaye umupira w'icyatsi cyerurutse, ipantaro y'ubururu, afite ari kuvomera, umurima we yifashishije umupira wabugenewe.

Abahinzi bari kuvomera ibihingwa byabo bihinze kumurongo, bose bambaye imyenda y'umweru kandi ibihingwa bihinze mu nzu imbere.

Umugabo w'umuhinzi wambaye bote n'ingofero y'urugara ari kuvomera ibihingwa bye akoresheje umupira, hirya ye hubatse inzu idahomye isakaje amabati.

Umugore wambaye agashati gatukura, arimo aravomera ibishyimbo yifashishije rozwari, hirya ye hari undi mugore uhagaze, inyuma yabo hari ibyatsi byinshi.

Umurima uhinzemo imboga ziteye ku mirongo urimo amatiyo akwirakwiza amazi agenda ayavomera hejuru y'ibihingwa, hirya hari insina yumye ndetse ni ibirere byahindutse amashara.

Umugore ukenyeye umwenda w'icyatsi, ahagaze mu murima arimo arawuvomera, akoresheje umupira. Inyuma ye hari umusozi utari muremure, uteyeho ibiti ndetse n'ibindi byatsi.

Umugabo w'umuhinzi wambaye umupira utukura, ahagaze mu kidendezi cy'amazi, iruhande rw'umurima uhinzemo urutoki n'ibindi bihingwa.

Umurima munini uhinzemo amashu urimo uravomererwa n'ibikoresho byabugenewe bivana amazi mu kabande bikayageza imusozi.

Umugabo w'umuhinzi wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, ahagaze mubigori arimo arabivomera, akoresheje ipombo yabugenewe.

Ubutaka bunini cyane buteyeho ibyatsi ndetse n'ibiti bitari birebire cyane kandi burimo n'amazu ndetse bugiye burimo buriho imisozi iringaniye.

Umugabo ari kuvomera ibigori yifashishije umupira wabugenewe, yambaye igisarubeti cy'umukara ndetse n'amarinete y'umukara wijimye cyane.

Umugabo ahagaze mu murima munini cyane, yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'ipantaro, ari kuvomera ibihingwa biri mu murima yifashishije umupira wabugenewe.

Umugore w'igikara ubyibushye ahagaze mu murima urimo insina ndetse n'ibindi bimera bikeya arimo arawuvomera akoresheje umupira wabugenewe.

Umugabo wambaye ubusa hejuru ahagaze mu murima wamashu, arimo aragenda ayavomera, akoresheje rozari ebyiri, hirya ye hari ibiti binini ndetse n'umurima urimo ibindi bimera.

Umusozi muremure uteyeho ishyamba ndetse n'ibindi byatsi by'amoko anyuranye, imbere yawo hari ikiyaga naho inyuma yawo hari ikirunga.

Ubutaka bunini bugizwe n'imisozi ihanamye, iriho amaterasi ndetse n'ibiti bitandukanye, ibirebire n'ibigufiya. Hirya hari amazu abantu batuyemo.

Ubutaka bunini buriho ibikorwa bitandukanye, birimo amaterasi y'indinganire, ibiti, ibyatsi, hirya yabwo hari udusozi tudakabije kuba tunini.

Ubutaka bunini bugizwe n'imisozi idakabije kuba miremire buteyeho ibyatsi by'amoko anyuranye ndetse n'ibiti bidakabije kuba birebire.

Ubutaka bunini cyane, bugizwe n'imisozi ihanamye kandi buciyeho amaterasi y'indinganire. Buteyeho kandi ishyamba rikeya, rigizwe n'ibiti bigufiya, hamwe n'ibyatsi bigufi.

Ubutaka bunini buhinzeho ibigori bufite igice kiriho ishyamba ndetse n'ikindi gice kiriho amazu abantu batuyemo.

Ubutaka bunini bugizwe n'imisozi iringaniye, buteyeho ishyamba rigizwe n'ibiti bitoya ndetse n'ibindi byatsi binyuranye. Iruhande rwabwo hashinze ibiti, harunze ubutaka bwinshi.

Imujyi munini cyane, ugizwe n'amazu menshi, ibiti birebire, ibyatsi, ibimera by'amoko anyuranye, insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibindi byinshi.

Imisozi myinshi yegeranye itari miremire cyane, iteyeho ishyamba ndetse n'ibindi bimera hagati yayo harimo ikiyaga kinini.

Ubutaka bunini buriho ibyatsi ndetse n'inyubako zitandukanye. Inyuma y'izo nyubako hari ibiti naho imbere yazo, hari umugabo usunitse ingofani.

Ubutaka bunini buteyeho insina ndetse buriho amaterasi y'indinganire, hirya yabwo hari imisozi idakabije uburebure.

Ubutaka bunini buriho ibimera by'ingeri zinyuranye harimo ibiti bigufiya ndetse n'ibyatsi, hagati harimo ikiyaga cy'amazi asa neza.

Ubutaka bunini bugizwe n'imisozi mitoya buteyeho ubwatsi ndetse n'ibiti bitari byinshi, hagati yabwo hacamo umuyoboro wa.

Imisozi myinshi, yegeranye ariko idakabije uburebure, iteyeho ibiti bigufiya ndetse n'ibyatsi by'amoko anyuranye. Hagati yayo harimo ikiyaga.

Ubutaka bunini cyane buhinzeho ibiti byinshi kandi biteye ku mirongo, ubwo butaka bufite ibyatsi hirya yabwo hari amazu abantu batuyemo.

Ubutaka bunini buriho imisozi kandi buteyeho ibyatsi by'amoko atandukanye. Hirya hagati muri bwo hari inzu abantu babamo. Naho hirya yabwo hari imisozi miremire itagaragara neza.

Ingurube nini iri mu kiraro irikumwe n'utwana twayo dutatu ifite ibara ry’umukara, na ho utwana dufite ibara risa n’igitaka.

Inka iri kurya ubwatsi iri mu kiraro cyayo, hirya yayo hari umugina munini cyane urimo imyobo irenga ibiri aho ibiti byubatse ikiraro cy'inka bifata.

Abantu babiri bahagaze mu kiraro cy'amatungo cyubakishije ibiti bishinze ndetse n'imbaho, hirya yabo hari indi nzu isakaje amabati ndetse iriho imbaho.

Ingurube ifite amabara y'umukara n'umweru iryamye hasi imbere y'ibiryo yahawe, iburyo bwayo hari urukuta rw'ikiraro cyayo naho ibumoso hateretse ikindi kintu.

Inka y'umweru n'umukara iri kunywa amazi mu ibase y'ubururu, imbere yayo hicaye umushumba urimo uyiha ayo mazi. Inyuma yayo hateye insina.

Inkoko nyinshi zororewe hamwe bya kijyambere zirimo zirarya ibyo zagaburiwe, inyuma yazo hari inkingi zifashe ikiraro zibamo ku ruhande hari amabati.

Icyumba kirimo ibikoresho bikoreshwa mu kubika umusaruro w'ibikomoka ku matungo, kirimo kandi imiti y'amatungo ndetse n'utunyamitende bifashisha mu kubitwara.

Ingurube iri mu kiraro cya kijyambere cyubatse hifashishijwe imbaho, ibiti bihagaze, isima ndetse n'ibindi, ingurube ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Udushwi tw'inkoko twinshi turi mu kiraro cyatwo, aho turi gutora ibiryo twahawe ndetse tukananywera amazi ku bikoresho byabugenewe. Imbere mu kiraro harimo intebe yo kwicaraho ndetse n'akabaho gatambitse.

Ihene nyinshi ziri mu kiraro cyazo cyubakishijwe imbaho zirundanyije ku murongo. Izo hene zifite amabara yiganjemo iry'umweru ndetse n'umukara.

Umugabo wambaye ingofero itukura ,ndetse n'ishati y'umweru, nipantaro y'umukara, n'inkweto z'ubururu, arimo arakama inka, igicuba cy'icyuma giteretse hasi, nicyo arimo akamiramo amata.

Inkoko nyinshi zorowe mu buryo bwa kijyambere, ziri aho zirira mu kiraro cyazo. Imbere yazo hari shitingi iriho ibindi byo kurya.

Ishyo ry'inka nyinshi ziri ku musozi ziragiweyo ngo zirishe, iruhande rwazo hari ibiti by'amoko anyuranye ariko bitari birebire cyane, ibyatsi bisa n'ibiri kuma nk'aho ari mu gihe k'icyi.

Ihene nyinshi ziri mu murima ziri kurisha hirya yazo hateye agashyamba k'ibiti birebire ariko bikeya mu murima kandi hahagazemo abagabo bashobora kuba baziragiye.

Ubutaka bunini buteyeho ibyatsi ndetse n'ibiti bitari birebire, buhagazwemo n'umugabo ndetse n'inka z'amabara atandukanye, arimo umukara n'umweru.

Inka ziri mu kiraro cyazo ziri kurya ubwatsi buri hanze y'ikiraro ubwo bwatsi bwarumye, ikiraro k'inka cyubakishije inkingi z'ibyuma, inyuma y'ikiraro k'inka hari imisozi idakabije kuba miremire.

Ubutaka bunini buteyeho ibyatsi, buhagazeho umugabo wambaye umupira utukura n'ipantaro yumukara, uragiye ishyo ry'inka nyinshi cyane.

lnka nyinshi zororewe hamwe ziri mu mbuga, zikikijwe n'uruzitiro rwubakishije ibyuma ,iruhande rwazo hahagaze abaganga b'amatungo.

Ubutaka bunini buhinzeho ibihingwa bitandukanye, bwegeranye n'ubundi buhinzeho ishyamba inyuma, buriho ihene z'amoko atandukanye ndetse n'amabara atandukanye.

Abantu batatu bahagaze mu kiraro kinini cyororerwamo inka ndetse n'izindi nyamaswa, icyo kiraro gifite inkingi nyinshi z'ibyuma.

Ikiraro kinini cy'inkoko cyubakishijwe amabati ndetse n'inkingi z'ibyuma zihagaze, inkoko zihagaze imbere y'uruzitiro rw'ikiraro, zirimo zirarya ibiryo zagaburiwe.

Inka ikuze bihagije ihagaze hafi y'ikiraro cyayo irimo irarya ibyatsi byumye, inyuma yayo hari ikiraro gisakaje amabati.

Ingurube ihagaze mu kiraro cyayo ikikijwe n'inkuta zubakishije isima ndetse n'amatafari, ifite amatwi ashinze kandi ihagaze mu biryo byayo.

Inkoko nyinshi zorowe mu buryo bwa kijyambere, ziri kurya zikananywera ku bikoresho byabugenewe, hagati yazo hari igiti gifashe isakaro ry'ikiraro cyazo.

Inka nini iri mu kiraro cyayo iri kurya ibyatsi byumye, ikiraro cyayo cyubakishijwe isima ndetse n'ibyuma, ifite amabara arimo iry'ikigina ndetse n'iry'umweru.

Inka nyinshi, zororewe mu kiraro, cyubakishije ibyuma kandi gisakaje amabati. Imbere yazo, hari ibyatsi byazo, byumye.

Inkoko nyinshi ziteraniye mu kiraro cyazo, ziri kurya ndetse zikananywera ku gikoresho cyabugenewe, izo nkoko zifite amabara atandukanye, arimo umukara ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'amabara menshi ndetse n'ipantaro yicyatsi na bote z'icyatsi, ari gufatanya nundi guha umuti ihene, inyuma yabo hahagaze abandi bantu barimo umusore n'inkumi.

Intabire ihinzemo ibishyimbo, bitangiye kumera, iri gukorwamo n'ikiganza cy'umuhinzi. Hirya yayo haragaragara izuba riri kurasa.

Abantu benshi barimo abagabo n'abagore, bambaye imipira y'ubururu bwerurutse, bahagaze imbere y'imbuto n'ibindi bihingwa, imbere ya ba nyirabyo bari kubicuruza.

Umugore w'igikara arimo aragosora ibishyimbo akoresheje urutaro. Inyuma ye hari ibati risize irangi ry'ubururu.

Ibiganza bine birambuye biteruye ibishyiyimbo by'ubwoko n'amabara atandukanye, ikiganza cya mbere kiriho ibishyimbo by'amabara y'umutuku ndetse n'umweru, icya kabiri ibara ry'umuhondo, icya gatatu ibara ry'umweru, icya kane kiriho ibishyimbo by'amabara y'uruvange.

Ibihyimbo byinshi byumye biri ku isahani y'idongo, byinshi muri byo ni umukara ariko hagiye havanzemo n'ibindi byumweru.

Imifuka minini cyane ibitsemo imbuto zo kurya cyangwa gutera, iri mu mabara abiri ari yo umuhondo ndetse n'umweru, imbuto ziyirimo nazo ni umuhondo.

Ikiganza cy'umuntu ufite uruhu rwirabura giteruye imbuto zumye zishobora kuba ari amashaza cyangwa soya.

Imashini ikoreshwa mu kubara ibihingwa, ifashwe mu kiganza n'akaboko k'umuntu wigikara, hasi harunze ibigori byumye.

Umugore w'umwirabura afashe mu ntoki imbuto y'amashaza ari kugenda ayisuka mu gitebo, yambaye igitenge cy'amabara menshi, inyuma ye harambitse ibindi bintu by'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu ndetse n'umugore, bateruye urutaro, barimo barasukura ibishyimbo barushyizeho.

Imbuto ziteye zitangiye kumera ziteye ku mirongo hifashishijwe igikoresho cyabugenewe bashyiramo ubutaka ndetse n'ifumbire mu twobo twacyo twabugenewe.

Ibigori byinshi, byumye cyane, byose biri hamwe kandi nta na kimwe muri byo gitonoye. Hagati aho birunze, hari ibindi byatsi byamezemo.

Umugore ukenyeye igitambaro cy'ubururu bwerurutse ndetse n'igitenge kirimo amabara menshi ahagaze imbere ya shitingi arunamye ari kwanika ibigori, inyuma ye hateye ibyatsi byinshi ndetse hari n'ubwanikiro.

Imbwa eshatu zose ziryamye hasi zifite ibiziriko mu ijosi, bisa naho zajyanwe ku muganga uvura amatungo.

Umugore ukora umwuga wo kuvura no kwita ku matungo, ahagaze imbere y'aho batereka amagi, yambaye igisarubeti cy'icyatsi ndetse n'agatambaro k'umutuku mu mutwe.

Umuganga w'amatungo ahagaze mu kiraro cy'inka cyubakishijwe ibyuma, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'akarindantoki karekare kagera mu kwaha, iruhande rwe ari kumwe n'abandi bagabo babiri harimo uwambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse n'undi wambaye itaburiya y'umweru.

Umuganga uvura amatungo yambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse n'akarindantoki karekare karenga mu nkokora, ari gukora mu nda y'amaganga y'inka.

Umugabo ukora akazi ko kuvura amatungo, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, afite ibyo ari kuvanga, akorera mu cyuma cyabugenewe.

Umuganga uvura amatungo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, arimo arareba utunyabuzima duto cyane tutaboneshwa ijisho, yifashishije icyuma cyabugenewe.

Umuganga uvura amatungo, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uturindantoki tw'ubururu, ari kuvanga ibintu by'umweru, akabivangira mu gikoresho cyabugenewe.

Umuganga uvura amatungo, yambaye igisarubeti cy'ubururu, afite urushinge mu ntoki, yaruzamuye agiye kurutera inka, ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Abaganga batatu b'amatungo bicaye bareba urukuta, bose bambaye amataburiya y'umweru ndetse babiri muri bo bambaye n'udupfukamunwa.

Umuganga uvura amatungo ahagaze inyuma y'inka yashyize akaboko ke mu nda y'amaganga, iburyo bwe n'ibumoso hari ikiraro inka irimo cyubakishijwe ibyuma.

Umugabo ukora akazi ko kuvura amatungo, ahagararanye na mugenzi we, imbere y'ikiraro, kirimo inka nyinshi, yambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'ubururu.

Abaganga babiri bavura amatungo, bari gufatanya kubaga imbwa buri wese yambaye agapfukamunwa n'akarindantoki ndetse n'ingofero zirinda ko imisatsi yabo yapfuka ikagwa mu gikomere cy'imbwa.

Akaboko k'umuganga uvura amatungo, kambaye akarindantoki, gafashe inyama yo mu mubiri imbere mu itungo.

Inka nyinshi z'inyambo zihagaze mu mbuga, zikikijwe n'uruzitiro rwubakishije ibyuma, iruhande rwazo hahagaze abaganga b'amatungo, bambaye amataburiya y'umweru.

Abaganga bavura amatungo, bahagaze hafi y'ikiraro cy'inka, umwe yambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse n'akarindantoki, imbere yabo hari uruzitiro rwubakishije ibyuma rutangira inka.

Umuganga uvura amatungo ahagaze inyuma y'inka, yambaye akarindantoki karekare cyane kagera mu kwaha, ari gukora mu nda y'amaganga y'inka.

Intare ebyiri zo mu ishyamba zirimo zirakina ziri mu cyanya cyazo zizengurutswe n'ibyatsi byuyumagaye bitewe n'izuba ryinshi.

Ibishuhe bitatu by'umukara biri mu mazi menshi, biri koga ikiri imbere gifite umunwa muremure w'umweru, naho ibindi iminwa yabyo ntigaragara neza.

Inyamaswa ebyiri za gasumbashyamba, zihagaze mu cyanya cyazo mu ishyamba. Hirya yazo hari igiti kinini cyane na ho hino yazo n'aho zihagaze, hari ibyatsi birebire cyane.

lnyamaswa yo mu ishyamba yitwa inkura, iri mu cyanya cyayo, izengurutswe n'ibyatsi byumagaye kubera izuba ,ndetse n'igiti cyumye .Hirya hari imodoka y'abakerarugendo baje kuyisura.

Inyamaswa ebyiri nini cyane zo mwishyamba, zihagaze mu bwatsi bwinshi cyane ariko bwumishijwe n'izuba rikabije.

Inzovu enye ziri kugenda mu nzira yazo mu ishyamba iburyo n'ibumoso bwazo hari ibiti ndetse n'ibyatsi by'amoko anyuranye.

Ubutaka bunini buriho ishyamba ndetse n'ibindi byatsi, buhagazweho n'inyamaswa zinyuranye zo mu ishyamba, zirimo inkende ndetse n'imbogo.

Inyamaswa zo mu ishyamba, zihagaze mu kidendezi cy'amazi, iruhande rwazo hari ibyatsi bibisi ariko byiganjemo n'ibindi byumye.

Ihene ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru ihagaze mu mbuga irimo ibyatsi bibisi ndetse n'ibyatsi byumye.

lnyamaswa zo mu ishyamba, zirimo isha, ndetse n'izindi.. Ziri mu cyanya cyazo mu ishyamba ,ariko hashize ibyatsi ,bitewe n'amapfa cyangwa se ibindi biza kamere.

Imvubu eshatu zirimo inini ndetse n'icyana cyayo zihagaze mu cyanya cyazo mu mazi, inyuma yazo hari urutare runini rwatangiye kuzaho urubobi.

Inyamaswa yo mu ishyamba ifite umurizo munini ndetse n'ubwoya bwinshi, ihagaze mu bimera byinshi inyuma yayo hateye imihati kandi iri kureba imbere.

Inyamaswa ebyiri zo mu ishyamba zitwa ibisamagwe ziri mu mbuga yo mu ishyamba, inyuma yazo hari ibyatsi by'amoko anyuranye, bimwe ni birebire ibindi bikaba bigufiya.

Intare ebyiri, iy'ingabo ndetse n'iy'ingore, ziri mu cyanya cyazo mu ishyamba, ziri kureba mu cyerekezo kimwe nk'izitegereza umuhigo.

Inyamaswa yo mu ishyamba, ifite amahembe afite amashami, ihagaze mu ishyamba, mu byatsi inyuma yayo hari ibiti birebire bifite amashami menshi guturuka hasi.

Inyamaswa iguruka yo mu ishyamba yitwa nyirabarazana, ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ihagaze ku butaka bwivanze n'amazi menshi hirya.

Inyamaswa zimeze nk'imbeba, ziryamye hasi zegeranye mu kintu kimeze nk'umupira. Zifite amaso matoya ndetse n'ubwoya busa n'igitare bwinshi.

Inyamaswa z'agasozi ebyiri ari zo ibishuhe ziri mu mazi inyuma yazo hari ibimera bitandukanye birimo ibyatsi indabo ndetse n'ibindi birebire.

Inyamaswa zo mu ishyamba zirimo: intare, inzovu, agasumbashyamba, urusamagwe, inkura ndetse n'izindi zose zihagaze hamwe mu byatsi.